Isaha zishushanyije ku gikuta cy'inzu. Zikaba ziri mu moko atandukanye, gusa zose zikaba ari iz'urushinge. Icyo gikuta ni icy'ishuri ndetse bigaragara ko mu muryango hari umunyeshuri utangiye gusohoka.

Kandagira ukarabe ni gahunda yashyizweho na leta kugira ngo buri muntu wese ajye akaraba amazi meza n'isabune igihe cyose avuye mu bwiherero. Niyo mpamvu usanga buri muturage bamusaba kuba ayifite kandi yegereye ubwiherero.

Igishushanyo gifite inzu nziza cyane isize ibara ry'umweru, ikaba ifite inzugi zisize ibara ry'umuhondo, ikaba iriho abana barimo gukirana bafatanye, hari n'umubyeyi wiyicariye wambaye amarinete.

Inyubako ishushanyijeho itoroshi. Ni inyubako bigaragara yuko isize irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hari umuryango ufunguye, imbere hakaba hasize sima y'umukara.

Ishuri rishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye hari utunyugunyugu hakaba ibikoresho nk'amasuka, indobo n'ibindi, bikaba bigaragaza ko ari ku ishuri ry'abana b'inshuke.

Umuntu uteze igitambaro ariko akaba ari umugabo ufite n'ubwanwa, akaba yigisha amashuri y'incuke, arimo gushushanya ibintu bitandukanye ku kibaho kugira ngo bimufashe kwigisha abana.

Abantu benshi cyane barimo ababyeyi ndetse n'abana babo. Bari imbere y'amashuri, akaba ari ku munsi wo gufata indangamanota. Ni ibintu byiza cyane kubona ababyeyi baza gufata indangamanota z'abana babo.

Abana bane bashushanyije ahantu ndetse bakaba bambaye udukweto twiza cyane tw'umukara, bakaba barimo kugenda bajya ku ishuri, bambaye impuzankano n'abakobwa babiri n'abahungu babiri.

Ibishushanyo bishushanyije ku gikuta bikaba biri mu moko atandukanye. Byose bikaba bishushanyije ahantu ku gikuta cy'umweru ndetse bigaragara ko cyubakiye amashuri y'inshuke.

Abantu benshi bahuriye mu nyubako, hari inzego z'umutekano zishinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge ndetse hakaba hari abana biga mu mashuri y'incshuke. Aba bayobozi bose bakaba baje kureba uburyo amasomo y'inshuke atangwamo.

Inyubako nziza cyane ifite umuryango munini wanditseho amagambo agaragaza yuko bari gutanga ikaze ku kigo cy'amashuri cya Rukomo, akaba ari ikigo kizwiho gufata abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Intebe nziza cyane ziteye ahantu bigaragara ko ari mu ishuri. Ni intebe zigiye ziteye iruhande rw'ameza ndetse hakaba hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, biga mu mashuri abanza.

Leta y'u rwanda yagiye ifasha abanyeshuri bose, baba abo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kugira ngo buri munyeshuri agire uburenganzira bwo gukora kuri mudasobwa, kugira ngo bikomeze kujyana n'iterambere igihugu kiyemeje kugeraho.

Kwigisha abana biga mu mashuri abanza by'umwihariko umwaka wa mbere, uwa kabiri, n'uwa gatatu biravuna cyane kuko bisaba gukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo ubashe kumvisha abana neza.

Umuntu w'umugabo cyangwa umuntu uwo ari we wese ntago akwiriye kugenda akwizagiza umwanda aho abonye hose ni yo mpamvu kwituma ku gasozi bibujijwe ndetse bikaba bituma amazi yacu yandura.

Amakaramu menshi cyane yo mu bwoko butandukanye, arunze ku meza. Ari mabara yose ashoboka. Ubururu, umuhondo, icyatsi, irose, move n'andi menshi. Ibyo byose bikaba bifasha umunyeshuri wiga mu mashuri abanza.

Utwuma tubiri kamwe karahagaritse akandi karyamye hafi twose tukaba dufite ibara ry'umweru, umutuku ndetse na shokora.

Abana bashushanyije barimo gusiga amabara ku indabo, bakaba bari kwiga ibintu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakuze ubwonko bwabo ndetse bagire imitekerereze yihuse.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza; hari akantu bagura ndetse kakaba kagirimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, haba harimo amarati, kereyo ndetse na gome.

Imashini yifashishwa mu kubara imibare ndetse ikaba izwi nka karikirateri hakaba hari n'amakaramu n'amakereyo ari mu mabara atandukanye. Ibi byose byifashishwa na mwarimu kugira ngo yigishe abana biga mu mashuri abanza ibintu bigiye bitandukanye by'amabara.

Igicumbi cy'umuco, ni gahunda yashyizweho na leta, aho buri mudugudu uba ufite igicumbi kikaba kiriho indangagaciro ndetse na kirazira, zigize igihugu cyacu.

Inyubako nziza cyane irimo imitako myinshi iri mu mabara atandukanye, hakaba harimo udukoresho twinshi cyane, byose bikaba byifashishwa mu guhugura abana biga mu mashuri abanza.

Inyubako y'umuturage usanzwe, ikaba isakaje ibati ritukura ndetse ikaba ifite umuryango usize irangi ry'ubururu. Hari ibirahure biri mu madirishya byiza cyane bibonerana.

Abana barimo gusoma igitabo bakaba ari udushushanyo dushushanyije ahantu ku gitabo ndetse kikaba ari igitabo k'Ikinyarwanda cyanditseho igitabo cy'umunyeshuri, umwaka wa mbere w'amashuri abanza.

Inyubako nziza cyane ifite amakaro ndetse ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari intebe nini yifashishwa n'abantu burira barimo kumanika ibintu, ndetse hakaba hari udukoresho tw'utuzeru hifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Igishushanyo gishushanyijeho abana bane. Hakaba harimo umwe ufite akagare k'ubumuga agenderamo. Inyuma ye hari mugenzi we ugenda amusunika. Hakaba hari abandi bana babiri bose barimo kujya ku ishuri ndetse amashuri na yo akaba ari aho hafi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga imibare, hari amarati y'ubwoko butandukanye aya mpande eshatu, mpande enye ndetse n'ay'urukiramende.

Akantu kanini, gafite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara. kandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'andi y'umuhondo. Kakaba kagaragaza amashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe n'amatafari, ahiye ndetse ikaba ifite imiryango myinshi. Ifite urubaraza runini cyane umuntu ashobora kugamaho izuba igihe ategereje serivisi. Urwo rubaraza rukaba rufite inkingi zubakishije amatafari zirufashe.

Abantu biga umwuga wo udoda barimo kwifashisha imashini bagenda baterateranya udutambaro, maze bakareba neza ko ibyo bigishijwe babifashe.

Abantu babiri umwe ni umukobwa ndetse undi ni umunyeshuri nawe w'umukobwa, barimo gusuhuzanya banasomana bigaragara ko bari bakumburanye. Hari hashize igihe kinini badahura kubera amashuri.

Mwarimu ari mu ishuri ari imbere arimo kwigisha abanyeshuri, abanyeshuri barakurikiye buri wese imbere ye hateretse mudasobwa ndetse umunyeshuri afite ikayi ari kugenda yandikamo utuntu tw'ingenzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagize umunsi wabo wo kwibuka, bakaba bazanye indabo nziza cyane aho baje kuzishyira aho imibiri y'abazize Jenoside ishyinguwe.

Inyubako nziza cyane ziteganye zose zubatswe mu buryo bumwe, ni inyubako z'amashuri ubona yuko zubatswe n'amatafari ahiye ndetse zikaba ziteye irangi ry'umweru, zifite ubusitani bwiza cyane buri iruhande burimo indabo zihumura.

Ikigo cy'amashuri cya Rkomo. Ni ikigo gikunze kujyaho abanyeshuri benshi bakomoka mu Karere ka Nyagatare nk'uko ariho kiba mu Murenge wa Rukomo.

Umugabo ari imbere y'abaturage akaba arimo kubasobanurira uburyo ikigo abana babo bigaho, kigenda gifasha abanyeshuri kugira ngo bagire ubumenyi ndetse n'ubuhanga buhanitse.

Abana babanyeshuri beza cyane bambaye impuzankano, bahagaze ahantu hamwe ku murongo bakaba barimo kumva ibyo umuyobozi wabo ari kubabwira kugira ngo babone uko bajya mu ishuri babizi neza.

Intebe ziri mu ishuri, zikaba ari intebe zangiritse ndetse zikaba zarashyizwe uruhande rumwe kugira ngo zizasanwe n'ababishinzwe.

Inyubako nziza cyane irimo intebe zifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'ameza meza cyane, ikaba ari imwe muri kaminuza z'ubumenyingiro ziboneka mu Gihugu cy'u Rwanda.

Intebe nziza cyane zikaba ari intebe zishushanyijeho amagambo y'impine ndetse hakaba hari n'umwanya abantu bashyiramo imashini cyangwa se amakayi mu gihe bari kwandika.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Barimo kugenda bandika ibintu bigiye bitandukanye. Uko bigaragara ni abanyeshuri bakuru, biga muri kaminuza y'ubumenyingiro.

Ikibumbano cy'umuntu bigaragara ko ari umwamimi kikaba cyaratangiye kwangirika, aho cyafatataguritse mu mpanga kikaba ari ikibumbano gisurwa n'abatari bakeya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako isize amarangi y'umweru, ifite ama esikariye azamuka, ndetse ikaba ifite jaride nziza cyane imbere yayo irimo indabo zikase neza.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako. Iyo nyubako ikaba ari ishuri ndetse bigaragara ko bari mu nama, barimo guhabwa ibitekerezo ndetse n'inama. Ku bayobozi babo.

Intebe nziza cyane ikozwe muri dezayini, ikaba ifite ibara ry'ubururu. Yanditseho amagambo ndetse ifite umwanya umuntu ashobora kurambikaho ikayi cyangwa imashini.

Abantu bicaye mu ishuri bakaba barimo kwiga, ndetse bakaba bambaye imyenda itandukanye, kubera ko abanyeshuri biga muri kaminuza, ntabwo bambara impuzankano.

Hari abanyeshuri biga ubumenyingiro bagiye batandukanye hakaba abiga gutaka ndetse no gukora ibintu bigiye bitandukanye by'ubugeni, bakaba bigira mu nyubako nziza cyane zigezweho.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru, ikaba ifite akajaride keza kari iruhande rwayo, hakaba hari umuhanda usashemo amabuye y'amakaro, ndetse hakaba hari umuntu urimo kugenda muri uwo muhanda.

Iyo umuntu ashoje kwiga ikiciro cy'amashuri ya kaminuza aba yishimye cyane ndetse uwo munsi akora ibintu bidasanzwe birimo kwifotoza amafoto y'ubwoko bwose gusa iyo hashize igihe gitoya akabura akazi usanga agahinda kamweguye.

Inyubako nziza cyane isize irange ry'ikinombe ndetse ikaba ifite inzugi nziza ndetse n'ibirahure, ikaba ari inyubako ya Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo. Barimo kugenda biga amasomo atandukanye ndetse bamwe bafite n'amakayi bari kujya bandikamo iby'ingenzi.

Inyubako nziza cyane ifite ibyuma bigiye bizitiye ahantu umuntu ashobora kugwa ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye hari imitako ndetse n'imyenda myiza.

Abantu biga ibintu bigendanye n'imyuga y'ubwubatsi bagenda bakoresha ibikoresho bitandukanye, bambara za ga zibarinda mu ntoki ndetse bagakoresha indobo zo gutwaramo sima n'ibindi byuma bigiye bitandukanye nk'imyiko.

Hari ibintu byinshi cyane bigenda bigaragara by'ubugeni, bikorwa n'abanyeshuri biga muri za kaminuza z'ubumenyingiro zo mu Rwanda, ibi ngibi byose bikaba bikeshwa kuba leta yarashyize imbaraga mu gushishikariza abana kwiga imyuga.